Iki ngiki ni icyapa cyamamaza. Iki cyapa kiri ku muhanda, uhaciye wese arakibona, kuko kiri hejuru hagaragara.

Iyi ngiyi ni imodoka y'umukara, iparitse mu muhanda wa kaburimbo, iragurishwa miliyoni cumi n'ebyiri.

Aha ngaha hahagaze imodoka y'umukara ahantu habugenewe mu guhagarara imodoka. Iyi modoka iragurishwa amafaranga y'u Rwanda miliyoni mirongo itanu.

Aya ngaya ni amafaranga y'u Rwanda, nk'uko bigaragara ku kirangantego cyayo cy'inyuma. Hariho insina n'igitoki. Amafaranga yakozwe muri bibiri n'icyenda.

Ahangaha ni mu ihema ricururizwamo amata akorerwa mu Rwanda ryitwa mukamira aya mata acurujwe n'abakobwa babiri nkuko bigaragara hano.

Aya ngaya ni amazi yo kunywa, aya mazi urabona ko afunzwe mu macupa manini cyane, aya mazi tuyanywa kugirango tugire ubuzima bwiza.

Iyi ngiyi ni gitansi igaragaza amafaranga yaje aturuka mu mahanga, ni inyemezabwishyu yayo.

U runguru ni urupapuro rw'ikigo gishinzwe imisoro mu gihugu, rurerekana uburyo usora aba yasoze amafaranga aba yatanze.

Uru nguru ni urupapuro rwanditseho ibintu by'imisoro y'ubucuruzi cyangwa ubuhinzi n'ubwubatsi.

Aya ngaya ni amafaranga y'amanyamahanga, harimo amafaranga atanu, icumi, makumyabiri, mirongo itanu, ijana, na magana abiri.

Iyi ngiyi ni inzu abantu babamo. Iyi nzu hanze yayo hari intebe abantu bicaramo mu busitani, bari kuganira.

Iyi ni inzu mberabyombi ikorerwamo inama zihuriwemo n'abantu benshi batandukanye. Iyi nzu mberabyombi iteretsemo intebe n'ameza abantu bifashisha bari mu nama.

Aha ngaha hari abagore benshi cyane baboha uduseke, imbere yabo ni ho bateretse utwo baboshye, biragaragara uko tubibona.

Aha ngaha ni mu isoko rusange ricururizwamo ibintu bitandukanye, hari gucururizwamo imboga n'ibindi biribwa, harimo n'abacuruzi bicayemo bategereje abakiriya.

Aha ngaha ni mu rusisiro ruhuriramo abantu benshi, muri uru rusisiro harimo ubucuruzi butandukanye, harimo n'abaturage baje guhaha n'abandi bari gutambuka bigendera.

Ahangaha ikigaragara cyo n’uko ari ku muhanda, hari abagore bicaye n'undi uhagaze bacuruje imineke n'ibindi bicuruzwa byo kurya.

Iyi ngiyi ni inzu yo kubamo, yubatse ahantu heza cyane, icanyemo n'amatara yaka.

Aha ngaha ni mu nzu icururizwamo intebe zo gukoresha mu rugo ahantu aho ari ho hose. Aha ngaha harimo umukiriya n'ucuruje.

Iyi ngiyi urabona ko ari nk'inzu yo kubamo, abantu baturamo, urabona ko iherereye mu mujyi wa Kigali ahitwa i Kanombe.

Aha ngaha urabona ko ari mu iguriro rusange abantu bagurira. Harimo imbuto zitandukanye n'ibindi byinshi cyane byo kunywa abantu bakenera.